Abana biga mu mashuri y'inshuke tugomba kubaha ibishushanyo bitandukanye n'ibikinisho kugira ngo babashe kwishima harimo: imbunda z'ibikinisho, harimo inyamaswa z'ibibumbano zirimo nk'ibikeri ndetse n'utudenesi two gukina kugira ngo babashe kugira ibyishimo dore yuko bigira no mu mikino itandukanye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke tugomba kubagurira amacupa yo gutwaramo ibyo kunywa igihe bagiye ku ishuri, kuko bakunda kugira inzara cyane, kugira ngo bajye basomaho, tukabapfunyikiramo igikoma muri ayo macupa, cyangwa icyayi. Ubundi bakakinywa igihe bari ku ishuri.

Abana biga mu mashuri abanza bigishwa gushushanya ariko bakigishwa no kuvuga ibice bigize udusimba dutandukanye bakunda kubashushanyiriza harimo nk'ibihore, amavubi, amajeri n'ibindi aho bagenda bakavuga ibice bigize utwo dusimba, amababa yatwo cyangwa se umutwe ubundi bakabasha kubimenya.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakenera ibikoresho bitandukanye bibafasha kwidagadura kugira ngo bagire ibyishimo banezerwe. Ubuyobozi bw'ishuri ibi ingibi bwabiboneye igisubizo, bububakira ibyicundo usanga hirya no hino ku mashuri y'inshuke, abana bakabikoresha barimo kwidagadura.

Mu mashuri y'inshuke usanga hari ibishushanyo bitandukanye by'inyamaswa n'abantu, bishushanyije ku nkuta z'ibyumba by'amashuri, aho abana babyitegereza, bakabasha kwishima ariko bakagira n'icyo babyigiraho kuko abana bafata vuba cyane.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ni ngombwa kububakira ibishushanyo bibafasha kwishima kugira ngo bajye babyitegereza ubundi ntibaheranwe no kwigunga, babashe guseka kuko bibashimisha cyane.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagomba guhabwa ibikinisho bitandukanye, birimo utugare two kugendesha kuko bigira cyane cyane mu kwitegereza ibishushanyo hanyuma nabo bakaza gushyira mu bikorwa ibyo babonaga igishushanyo gikora.

Mu mashuri y'inshuke, ku bigo bigamo tuhasanga ibyicundo bifasha abana mu kwinezeza mu gihe bahawe akaruhuko cyo gukina, babikiniramo kugira ngo babashe kwishima ubundi babone gusubira mu mashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bagomba kwigira mu bitabo birimo ibishushanyo kandi no ku ishuri aho biga bakabasha kubashyirirayo ibishushanyo, dore y'uko bibafasha kwitegereza ,bakumva babikunze ubundi na bo bakajya bigana ibyo babona ku mashusho.

Abana bato bakunda gusoma kandi bagakunda ibishushanyo ni yo mpamvu usanga mu mashuri y'incuke ku nkuta cyangwa ibyumba by'amashuri abana bigiramo hagenda hashyirwa ibishushanyo bitandukanye kugira ngo abana bajye basoma amagambo ahanditse kandi banabyitegereze kuko buriya abana bigira mu kwitegereza ibishushanyo cyane.

Bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bari kwiga harimo amarati bakoresha mu isomo ry'imibare cyangwa se kompa zifashishwa mu gushushanya uruziga ndetse n'amakaramu kuko biga bandika.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bifashisha ibishushanyo bitandukanye ariko bakabyifashisha mu gihe barimo kwiga, babikoresha mu gikorwa cyo kubara imibare kugira ngo babashe kuyifata bityo bongere ubumenyi.

Kugira ngo abana biga mu mashuri abanza babashe kumenya amazina y'ibikoresho bitandukanye dukoresha mu rugo, biba ngombwa yuko babibashushanyiriza ku rupapuro ubundi bakabasigira n'ahantu ho kwandika izina ryabyo kugira ngo bage babibaha mu kizamini ubundi bavuge amazina yabyo bityo bitume barushaho kubimenya.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda ibishushanyo cyane, niyo mpamvu ababyeyi babo basabwa kubagurira ibikoresho bibarangaza, bajya babireba bakishima bityo bakabasha kugira ubuzima bwiza, dore ko kunezerwa ari bimwe mu bintu bifasha umuntu gukora neza kandi agahora afite ubuzima buzira umuze.

Abana biga mu mashuri abanza bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo amakaramu yo kwandika, amakayi yo kwandikaho, amakereyo yo gushushanya, imikasi yo guca impapuro bakoresha n'utundi dukoresho harimo nk'ingwa bandikisha ku kibaho bityo bakabasha kwiga neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biga bandika ku kibaho kandi bakoresheje ingwa n'amakereyo, ku buryo batandukanye cyane n'abiga mu mashuri makuru na za kaminuza, aho bobo batajya bandika ahubwo bakoresha ikoranabuhanga, ririmo nka mudasobwa kugira ngo babashe kwiga ku buryo bujyanye n'ikoranabuhanga.

Abana bari munsi y'imyaka itanu iyo bagiye kwiga biba byiza iyo ukoresheje ibikinisho ndetse n'ibishushanyo kubera ko aribwo bumva iryo somo wabigishije ariko iyo ukoresha amagambo ntacyo bafata.

Mu mashuri abanza, usanga abanyeshuri mbere yo kwinjira mu byumba bigiramo, babanza gusiga ibikapu byabo hanze kugira ngo bataza gukopera mu gihe bari gukora ikizamini kandi usangayo n'imbuga nini ihagije, abana bakiniramo.

Abarezi bigisha mu mashuri abanza bifashisha ikibaho n'ingwa bakandika kandi basobanurira abanyeshuri kugira ngo babashe kubyumva, ibi bitandukanye nko mu mashuri makuru na kaminuza aho batandika ku kibaho bakoresheje ingwa.

Biba byiza kwigisha abana bo mu mashuri abanza amagambo ajyanye n'amashusho kugira ngo bage babasha kubifata vuba ku buryo buboroheye kuko abana baba bashaka n'amashusho abashimisha bityo ya shusho yafashe kugira ngo imuve mu mutwe ntibiba byoroshye.

Inzu abantu bagomba kubamo igomba kuba ifite ibice by'ingenzi biyiranga. Kuba isakaje amabati kugira ngo itavirwa. Kuba ifite umuryango abantu basohokeramo. Kuba ifite amadirishya yinjiza umuyaga mu nzu. Kuba iteye sima kugira ngo itazagwa.

Kugira ngo umwana yiga mu mashuri abanza, abashe kwiga amasomo ye ayamenye neza, biba ngombwa yuko umwarimu amubaza, akamujyana ku kibaho gusubiza ikibazo kijyanye n'ibyo amaze kumwigisha kugira ngo arebe niba umwana yakurikiye neza.

Abana biga mu mashuri abanza baba ari benshi cyane ku kigero gikabije, ariko ibi ngibi byabonewe igisubizo, kuko ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bwashyizemo imbaraga mu kubaka amashuri, ubu ngubu abana bose babona amashuri yo kwigiramo kandi badacucitse.

Abana biga mu mashuri abanza usanga barubakiwe ibikinisho bitandukanye aho babyifashisha mu masaha y'akaruhuko barya umunyenga kugira babashe gukina nyine bumve baruhutse baze gusubira mu ishuri batekanye bityo bakomeze amasomo yabo.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kwifashisha ibishushanyo cyane mu gihe bari kwiga ibizwi nk'uruziga biba byanditsemo imibare runaka bityo bakabasha gushakisha cyangwa se kuyiteranya kugira ngo bagure imitekerereze yabo.

Abana biga mu mashuri abanza bigira ku bikoresho bitandukanye birimo ibyifashishwa mu kubara ndetse no mu gupima uburebure cyangwa ubugari kugira ngo barusheho kumenya amasomo arimo n'imibare bityo bajye bayifashisha mu buzima busanzwe.

Abana biga mu mashuri abanza bakoresha ibikoresho bitandukanye birimo: ikaramu, birimo amajage yo gupimiramo ibisukika, birimo amarineti, birimo ibijyanye n'imifuniko, ibi byose byifashishwa mu gushushanya uruziga cyangwa gukora ibindi bishushanyo bitandukanye mu isomo ry'imibare.

Ikigo cy'amashuri cya nyagatare giherereye mu mujyi wa nyagatare ,umurenge wa nyagatare akagari ka nyagatare ,aho cyubatse ku buso busaga hegitari kandi gifite amashuri abanza mu mashuri yisumbuye .Habayo abarimu barenga mirongo itatu ,kandi bigisha indimi n'andi masomo agezweho.

Amashuri abanza yubatswe ari menshi hano mu rwanda cyane mu karere ka nyagatare, mu murenge wa rukomo, aho abana benshi babona amashuri yo kwigiramo, bityo nta bana bakizerera mu mihanda bahari kuko bose bajyanywe kwiga mu mashuri.

Abana batoya bakunda kwigira cyane mu gusoma ibishushanyo, niyo mpamvu mu mashuri abanza usanga mu kigo barashushanyijemo ibintu byinshi byigisha abana kugira indangagaciro zitandukanye, harimo n'amashusho agaragaza uko bakora isuku bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abana biga mu mashuri abanza bakenera ibikoresho bitandukanye birimo: amakaramu yo kwandikisha, amakaye yo kwandikamo, amarate yo gushushanya ,harimo imikasi yo guca impapuro zikoreshwa mu gushushanya hakabamo n'ikaramu z'igiti zikoreshwa mu gushushanya kugira ngo hatabaho kwibeshya.

Abana biga mu mashuri abanza bigishwa kwita kuri bagenzi babo baba abafite ubumuga ndetse n'abafite ibindi bibazo bitandukanye kuko na bo ari abana nka bagenzi babo. Ibi ngibi babyigishwa n'abarimu bashinzwe kubakurikirana umunsi ku munsi kandi abana na bo bakabyubahiriza.

Mu mashuri abanza abana bigira mu ishuri rishushanyijemo kandi rkdecoye kugira ngo ibikoresho biba birimo bifasha abana kwishima, ikindi haba harakozwe intebe ntoya zireshya nk'uko abana bangana kugira ngo bicare bitabavunye kandi babashe kwiga neza.

Mu mashuri yisumbuye bigisha ibijyanye n'ubudozi bw'imyenda itandukanye, harimo amapantaro n'amashati, aho abanyeshuri barangiza bakajya kwihangira imirimo ubundi nabo bagakirigita ku mafaranga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye usanga bafite umubare munini cyane bageze kuri mirongo itanu mu cyumba kimwe aho biga bicaye ku ntebe babiri babiri cyangwa se batatu ubundi bakandika, haba hari umwarimu wambaye itaburiya y'umweru uri kubafasha yandika ku kibaho kandi anabasobanurira amasomo bari kwiga.

Urubyiruko ni umusingi w'iterambere ry'igihugu, niyo mpamvu mu gihugu cy'u Rwanda abakiri batoya, bibandwaho cyane mu guhabwa ubumenyi butandukanye, harimo kwiga ubuganga binyuze mu masomo yabo ndetse no kwiga icungamutungo kugira ngo bazafashe igihugu gutera imbere mu gihe kizaza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagiye bapimwa icyorezo cya korona kugira ngo hataba hari ugikuye iwabo dore ko biga bataha cyangwa bakiga bacumbikirwa, ariko hari igihe kigera bakajya mu ngo zabo gusabana n'ababyeyi babo. Iyo bagarutse ku ishuri mu bandi bana barasuzumwa kugira ngo barebe uko bahagaze.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bajya bakora urugendoshuri rutandukanye rurimo kujya gusura ibyanya by'inyamaswa ndetse bakajya no kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bakagenda ku mirongo bagakora urugendo rwabo mpaka bageze aho bagiye.

Mu mashuri yisumbuye usangamo utuyira tugenda duca hagati y'ishuri n'irindi kugira ngo hatagira abanyeshuri banyura mu busitani, uko buba bwarubatswe kugira ngo bugaragaze ikigo neza ariko nanone buba buteyemo ibiti bitanga umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka igihe bari mu mashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye usanga bicaye mu ntebe zabugenewe kandi bakurikiye umwarimu uri kubigisha bafite amakayeyi n'amakaramu biteguye kwandika ibyo agiye kubandikira ku kibaho kandi baba ari abanyeshuri bakuze ku buryo kubigisha byoroshye ntago ari kimwe n'abana biga mu mashuri abanza.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, ni bamwe mu bahabwa ubujyanama n'ubukangurambaga butandukanye, kugira ngo babashe kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bikaba byabaviramo no gutwara inda zitateganyijwe, cyangwa kwanduriramo indwara zirimo na sida.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari mu bahabwa ibiganiro bitandukanye, birimo kubashishikariza kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima bwabo, kandi bakirinda no gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ngo batanduriramo indwara zitandukanye zirimo n'imitezi na mburugu.

Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu mashuri yisumbuye agenerwa ibihembo bitandukanye birimo ibikoresho azakoresha mu kindi gihembwe cy'amasomo gikurikiyeho, harimo nk'amakayi, amakaramu, ajenda yo kwandikamo, yewe hari n'igihe ahabwa amafaranga nk'ishimwe ryo kumufasha kurushaho kwiga cyane.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza, bahabwa ubumenyi buhanitse kugira ngo babashe kuzateza Igihugu cyabo imbere mu myaka izaza kuko bafatwa nk'umusingi w'iterambere w'ejo hazaza.

Mu mashuri makuru ya za kaminuza naho bagira ibirango bitandukanye, bakagira ibyo biyemeje, imihigo bagomba guhigura aho usanga harimo no kwihangira umurimo, kwiga bakagira amanota meza ndetse no gutsinda ku kigero cyiza.

Amashuri yigenga na za kaminuza, bigisha imyuga itandukanye ku banyeshuri kandi batanga ubumenyi bw'ibanze bushobora gutuma umunyeshuri ajya hanze nawe akikorera umurimo winjiza amafaranga mu gihe ashoje amasomo ye.

Mu mashuri makuru na kaminuza biga ibintu bijyanye n'ubugeni harimo gushushanya, ibintu bitandukanye, ibibumbano by'abantu n'inyamaswa ndetse no gukora ibimenyetso bijyanye n'umuco gakondo, harimo gushushanya ibiseke, ibitenge n'ibindi bintu byerekana umuco nyarwanda.

Buri mwaka mu gihugu cy'u Rwanda harangiza abanyeshuri barenga ibihumbi bibiri baba barahawe ubumenyi butandukanye mu mashuri ya za kaminuza, aho bahita bajya ku isoko ry'umurimo bagatanga umusaruro bakora ibikorwa bigishijwe mu mashuri.

Abiga mu mashuri makuru na kaminuza biga ibijyanye n'ubugeni harimo no gushushanya, aho bahabwa akazi gatandukanye kuko ari bo bashushanya amafoto manini tubona ku byapa bimanitse mu muhanda ndetse bagashushanya n'ibikorwa bijyanye n'ubugeni, harimo ibibumbano by'inyamaswa n'abantu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yigenga ndetse na kaminuza, nabo bakora ikizami nk'abandi bose. Igihe kiragera maze bakabazwa ibyo bize kandi umunyeshuri utsinzwe yishyura amafaranga kugira ngo yongere gusubiramo rya somo, yaritsindwa bwa kabiri bagahita bamwirukana.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza, usanga bajya kwiga mu masaha ya mu gitondo ndetse n'ikigoroba, aho batajya bambara iniforume ahubwo bambara imyenda bashatse, kandi bahabwa uburenganzira butandukanye burimo nko kwemererwa gutunga imisatsi ndetse no gusuka ku bakobwa, ibitaboneka mu mashuri abanza n'ayisumbuye.

Kaminuza n'ibigo byigenga ni amwe mu mashuri yigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubugeni ndetse n'ibyerekana umuco nyarwanda birimo gushushanya cyangwa gukora ibibumbano bishingiye ku muco gakondo.

Buri mwaka mu gihugu cy'u rwanda harangiza byibuze abanyeshuri bakaba bakaba mu igihumbi na magana atanu bo mu mashuri makuru na kaminuza, ndetse n'ayigenga baba barahawe ubumenyi kandi barahuguwe bityo biba byitezwe yuko baje gufasha abaturage mu miryango aho bakomoka.

Muri za kaminuza mu mashuri makuru ntago bajya bandika ahubwo biga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo mudasobwa ndetse bikabamo na terefoni zigendanwa, aho abanyeshuri babasha guhana amakuru n'umwarimu ubigisha.

Amashuri yigenga na za kaminuza aba afite ibyumba byinshi cyane birenga n'ijana ni yo mpamvu hejuru ya buri muryango hagenda handikaho nimero zifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo bamenye aho baza kwigira cyangwa se umwarimu na we akamenya icyumba aribuze kwigishirizamo.

Mu mashuri makuru na za kaminuza bigisha ibijyanye n'ububumbyi bw'ibihangano bitandukanye harimo ibishingiye ku muco gakondo nk'ibibumbano by'inka za kera z'Inyambo cyangwa ibibumbano by'ibishushanyo byo guteramo indabo ndetse n'ibibumbano by'abantu.

Ibigo byigenga na za Kaminuza, ni bimwe mu bitanga ubumenyi burimo n'ubwo gukanika ibinyabiziga cyangwa gusana ibikoresho byashaje harimo nk'intebe cyangwa amamoto, ahangaha abanyeshuri baba bashobora kurangiza, nabo bakajya kwihangira imirimo nta kabuza.

Mu mashuri makuru na kaminuza bigisha ibijyanye n'ubugeni, burimo gushushanya hifashishijwe ibikoresho gakondo, birimo nk'ibumba cyangwa bakabikora bifashishije amarange agezweho.

Mu mashuri y'imyuga na kaminuza bigisha ibikorwa bitandukanye birimo no kubumba ibishushanyo bikungahaye ku muco nyarwanda harimo nk'icebe ry'inka, ibibumbano birimo inka cyangwa izindi nyamaswa za kera, bityo tugateza imbere kandi tukizihiza umuco nyarwanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza, usanga baba bicaye mu ishuri bafite za mudasobwa zabo, amakayi n'amakaramu bari kwandika, umwarimu nawe ari imbere ahagaze ari kwifashisha mudasobwa ye, ubundi akabasha kubasobanurira, buri wese areba imbere ku kibaho.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda baba bafite akazi kenshi kubera ko abarimu babo babaha imyitozo ndetse n'amasuzuma ajyanye n'ikigero bagezemo.

Abiga mu mashuri ya za kaminuza biga ibijyanye n'ubugeni bwo gushushanya no kubumba aho babumba ibishushanyo bitandukanye birimo ibyerekana umuco gakondo kandi bibaha amafaranga cyane ku babikora kuko bashushanya ibishushanyo babanje guhabwa akazi cyangwa amafaranga n'ibigo ndangamuco bikeneye ibyo bishushanyo.